Ikidara cyangwa igisharagati cyangwa ihema ritatswe mu mabara y'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi, hariho abantu bashinzwe umutekano, bahanye ibiganza bigaragaza ubufatanye, ndetse hariho ingabo, ingabo imbere ye hari ameza, hari n'igitabo, akaba agifasheho, iruhande rwe hari umudaso, bigaragara ko aba ari inzego z'umutekano.

Ikibuga kiriho imodoka ebyiri iy'umweru n'iy'umukara hakaba hari n'umupolisi w'umunyarwanda uri gutera intambwe. Imbere hakaba hari imbwa irimo ikiziriko gifashwe n'umupolisi hirya hariho hangari cyangwa se tiribine abantu bicaramo kugira ngo izuba ritabageraho, hakurya akaba ari igisambu kirimo ibihingwa bitandukanye.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo. Ibaraza ryayo ryubakishijwe inkingi. Imbere y'iyi nyubako hari imbuga iriho abantu benshi. Hari n'ipoto ihagaze iriho urutsinga rw'amashanyarazi, inyuma yaho hari inkongi y'umuriro.

Iki ni ikiyaga kirimo ubwato bubiri bunini n'ubutoya, mu bwato harimo abantu bicaye. Buri bwato hari umuntu uri gusimbuka ava mu bwato ajya mu mazi. Hakurya y'ikiyaga hari umusozi uriho uduti dutoya.

Iri ni itsinda ry'abantu batandukanye ni inzego za polisi, iza daso, ndetse n'iz'abashinzwe umutekano, abasekirite, n'abaturage basanzwe. Bari gushyikiriza abasekirite ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto ndetse na purake, kifashishwa mu gucunga umutekano, inyuma haritente itatswe n'amabara y'ubururu umuhondo.

Imihanda ibiri iteganye, hagati y'imihanda hari ubusitani. Mu muhanda wo hirya hari imodoka eshatu zishoreranye, hirya y'umuhanda hari ubusitani, hejuru hari dorone iri gufata amafoto.

Ikibuga kinini kicayemo abantu hasi abenshi bambaye imyenda ijya gusa n'umutuku. Imbere yabo bahagaze umugabo wambaye impunzankano ya porisi, afite mikoro mu kiganza. Inyuma hari inyubako y'amashuri n'umurenge, ruguru yaho ni umusozi urimo urutoki.

Aba ni abagenzi b'abanyamaguru, bari kwambukanya umuhanda, icyo bita zebura korosingi, igizwe n'amabara y'umweru n'umutuku, abamotari bahagaze, bategereje ko abanyamaguru bambuka, na porisi iri gucunga umutekano, ireba ko bikorwa neza.

Icyuma gihagaze gifite agasongero gatoya, n'ikindi cyuma kigifasheho gitambitse gifashweho amatara. Iruhande hari ipoto iriho itara ryo ku mihanda risa n'ubururu, ku mpande hari inyubako hamwe n'ibyatsi n'ibiti bigufi.

Iyi ni imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, iri kugaragara igice cy'inyuma gikinguwe imiryango, harimo abantu benshi binjiyemo n'abandi bitendetseho. Ipakiye imizigo itandukanye hari hejuru ndetse n'igare.

Abantu bicaye, bamwe bari gukoresha inama, abandi bari kumva inama. Imbere yabo hari ameza atatswe n'ibitambaro biri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. N'inyuma yaho hari urukuta rutatswe n'ibitambaro, mu mashusho y'umwashi.

Itsinda ry'abagabo bahagaze batera intambwe bareba imbere, bambaye impuzankano isa, bambaye ingofero ifite ibirahuri imbere, bakinze ikirahuri imbere, inyuma yabo hahagaze umugabo wambaye ikositimu, bari kumurindira umutekano. Inyuma hari ibiti, bahagaze mu kibuga.

Inzu ifite imbuga iriho abantu bari kwigisha uburyo bazimya inkongi y'umuriro, bakoresheje ibikoresho bitandukanye ariyo kizimyamwoto. Hari umusore uri kwigishwa ndetse n'uwabugenewe wambaye imyenda yabugenewe, hari amajerekani arimo ibyifashishwa bazimya inkongi y'umuriro.

Aya ni amatara ya feruge ari mu ihuriro ry'imihanda itandukanye, hejuru hari itara ryaka umutuku, hagati hari itara ryaka nka orange ihiye, hasi hari itara ry'icyatsi. Hagaragara igice cyo hejuru cy'ipoto, inyuma hakaba hari ikirere kirimo ibicu by'ubururu n'iby'umweru.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore, abiciye n'abahagaze, abiteze ibitambaro n'abambaye ingofero, umugore umwe w'imbere yikoze ku kananwa. Bicaye mu ihema ryubakishijwe ibyuma, inyuma hari ibyatsi.

Icyumba cy'inama harimo umubyeyi ufashe mikoro, uri kugeza abandi ho ijambo, yambaye amarinete n'umusatsi wa natireri, abandi bari gutega amatwi ibyo ari kuvuga bicaye mu ntebe, gusa ni bakeya ugereranyije n'imyanya irimo, iyi nzu yubakishijwe amakaro harimo n'amatara, ndetse ikaba iteye irangi ry'umweru.

Abagore batanu bicaye bari kuganira, umwe ahetse umwana, afashe impapuro mu ntoki n'ikaramu, ari kwandika, abandi bicaye iruhande rwe bari kumureba, undi yambaye ingofero mu mutwe n'ipantaro. Imbere hari intebe irambitseho amatelefone abiri, simati fone n'iya gatoroshi, inyuma hari igikuta bashyiraho amatangazo, gikoze mu mbaho n'urugi rukinze rufite ibara ry'ubururu.

icyumba cy'inama kirimo intebe nyinshi, n'abantu bicayemo batuzuye mu cyumba, abagabo n'abagore. Umugore arahagaze afite mikoro mu kiganza ari kuvuga. Yambaye amataratara y'umukara, afite na terefone mu kiganza.

Icyumba cy'inama, imbere hicaye abagore batatu n'umugabo umwe. Imbere yabo hari ameza buri muntu imbere ye hari agakarine n'icupa ry'amazi, hamwe na terefone. Umugore umwe afashe mikoro, hakurya ku gikuta hariyo ibirahuri n'amadirishya akinguye.

Uyu ni umugabo ufite umuduri ukozwe mu gicuma, ari gucurangira abantu. Yambaye imyenda y'umweru, hirya inyuma hari abantu bari kumva ibyo ari gucuranga. Harimo abagore n'abagabo, inyuma hari isambu irimo urutoki ndetse n'ibiti.

Inkongoro ishaje ibajwe mu giti , ku mpande itewe ikiremo cy'umweru , indiba yayo iraringaniye , hejuru haranyunyutse ,hapfundikijwe n'igikoresho kiboshywe mu byatsi . Inyuma hari urukuta rw'igitaka , iteretse ku gakutaka kagufiya.

Umugore uhagaze ku mbuga, yambaye ishati y’umutuku, akenyeye igitenge, yiteze n’igitambaro mu mutwe. Afite inkoko mu ntoki, ari kugosora ibinyampeke byagiye mu kirere. Iruhande rwe hateretse agafuka gahinnye; inyuma hari inzu ifite idirishya rimwe, hakurya hari urugo rwubakishijwe ibishagari.

Inzu ndangamurage ya miviriingo, yubakishijwe ibyatsi bitandukanye, ishinge, n'ibikangaga, mu muryango hashinze igiti no mu gasongero hari ikindi giti, imbere hari imbuga ya sima y'amabara y'umutuku, n'umweru, inyuma hari urugo rukoreshejwe ibibingo, inyuma hari ibiti.

Umugabo uhagaze wambaye ikanzu iciye amaboko isa n'ibara ry'ingwe, mu mutwe yambaye agatambaro kariho imitako isa, n'indi mitako yambaye mu ijosi, yiteye umwitero w'umweru, mu ntoki afite umuduri uriho uducuma dutatu hamwe n'agati ko kuvugisha, inyuma hari urugo rukozwe mu migano igiye itambitse.

Ibiganza bibiri by'umuntu uri kuboha umutemeri w'igiseke akoresheje ibitare n'urushinge . Igiseke gifite amabara atandukanye umweru n'umukara , uyu muntu yambaye ishati irimo utudomagure tw'umukara n'umweru.

Ibikoresho bitandukanye harimo isekuru ibajwe mu giti mu isekuru harimo ibigori bari gusekura, iruhande hari ibase irimo ifu bamaze gusekura, iruhande hari igitebo cyasozotse kirimo impungure giteretse ku mufuka. Imbere hari amaguru y'umuntu n'ijipo y'umutuku, iruhande hari indobo ndende biteretse ku butaka byose.

Iyi ni intore yikwije mu mpuzankano y'umweru, irimo amabara y'ubururu, n'umuhondo, ndetse n'incundo. Ifite ingabo mu ntoki, ndetse n'icumu, mu mutwe harimo umugara, iyi ntore iri guseka.

Igicuma bakebyemo kabiri havamo uruhu rw'imbere rusa n'umukara, inyuma rusa n'umutuku ku rugara rwo hejuru ruriburungushuye, rwahongotseho agace gatoya rufite inkono bafata bari kudaha, giteretse ahantu hasa n'umweru.

Aba ni abagabo babiri bari kugaragaza umuco gakondo. Bambaye imyenda yo mu mpuzu, impu zikannye. Imbere yabo hari igiti bari gucukura bakuramo imbehe cyangwa akavure gatoya. Inyuma hari urugo rwubakishijwe imbingo. Iruhande rwabo hari ikirago. Kuri urwo rugo hanitse urundi ruhu bamaze gutunganya.

Igikuta cyubakishijwe boroke sima, hasi hateye irangi ry'icyatsi, hejuru hari irangi ry'umweru, inyuma y'igikuta hari umuvure washaje, uteye ibiremo by'ibidomora, k'uruhande hari inkono itagikoreshwa, hirya hariyo ibibindi bibiri, imbere hari ubusitani burimo pasiparume, hirya hariyo insina, hakurya hariyo akazu k'imbaho.

Umugabo w'igikara wambaye umupira urimo imirongo itambika y'umweru n'umukara. Afite ubwanwa burebure, yambaye uduhete mu mutwe. Umusatsi we usokoje amasunzu.

Ikibindi kitari cyanoga hasi, gisa n'umukara. Hejuru hariho utubara tw'umutuku, gifite urugara runini rw'imbere. Harimo inzoga irikubira cyane, hasesetsemo imiheha ine.

Ikigega kiboshywe mu mitamu y'imigano, giteretse hagati y'ibiti bine bishinze. Gisakajwe ibyatsi bya muvirigo. Hariho ibigori by'amahundo bihagitse ku kigega. Iruhande hari umuzinga uriho ibirere hamwe n'umutiba uboshywe mu migano, usize amase. Hari n'intara ebyiri zihegetse. Hirya hari intebe ya kinyarwanda hicayeho umusaza, inyuma hari ibiti n'ibyayatsi.

Ibikoresho bigaragaza umuco gakondo. Inkongoro zifite imipfundikizo iteretse hasi, hari n'ibyansi bitatu bijishije, inyuma hari ikirago kiboshywe mu bikangaga n' ubusuna.

Intoki z'umukara zifashe igikosi cy'icyuma gisa n'umuhondo, gishushanyije uturabo tw'umutuku, n'umuhondo. Mu gikosi mw'imbere harimo umusururu ucagase, inyuma y'igikosi hariyo imyenda isa n'ubururu.

Umusaza wicaye ku birago asobetse amaguru, yambaye ipantaro n'ikote agapira k'umweru imbere, yambaye mu mutwe ingofero y'urubaraza, mu biganza afashe igiti inyuma ye hari abagore bicaye ku ntebe za gakondo bunamye, iruhande hari intebe iboshywe mu birere ku rukuta rw'inzu hari umuryango ufunze.

Umugore uri mu mwijima wicaye ku kirago, yasokoje umusatsi, yakenyeye umukenyero w'igitaka n'agapira k'umweru, intoki zifashe ku nkondo z'igisabo giteretse ku mavi ye.

Ibikoresho bitandukanye biri kugaragaza umuco gakondo. Harimo inkongoro zipfundikiye, hakabamo n'ingabo iri mu mabara atandukanye, ndetse hakaba n'imbehe. Biteretse ku meza bikaba biri mu cyumba.

Abakobwa batatu bicaye bari guseka. Bafite imisatsi izinze n'udusaro mu mutwe. Bambaye inigi mu ijosi n'imishanana y'igitaka. Amaboko ararambuye afashe ku gisabo gipfundikijwe ibirere.

Ibikoresho gakondo bitandukanye, harimo imihunda irindwi, imbere yaho hari ingoma ibambye n'umurishyo, hejuru y'ingoma hariho umuzenguruko w'umweru, inyuma hari umubyeyi wicaye uri kuboha. Inyuma hari urugo rwubakishijwe ibibingo n'imigano.

Umukobwa w'igikara uri guseka, yicaye ku ibuye yasobetse amaguru, yiteze igitambaro, yambaye igikomo mu ijosi n'agashati k'umukara gahishe amabere hamwe n'agatambaro gatoya yakenyeye. Afashe inkoko nshyashya mu biganza, ari kugosora ibishyimbo, inyuma ye hari ibintu by'umukara.

Umugabo wambaye ipantaro, n'ikote, n'agapira k'umweru, n'ingofero y'urugara. Yicaye ku birago biboshywe mu bikangaga, ubusuna n'ibirere bifite amabara y'umukara. Inyuma ye hari intebe ya kinyarwanda, n'ibindi bikoresho biranga umuco gakondo.

Ibibindi bine biri ku murongo biteretse ku ngata , nazo ziteretse ku birago . Bitatu bibanza ni bishyashya , bipfundikijwe ibirere , bibiri bibanza birimo imiheha , icyo hirya gipfundikijwe ikoma kandi gisa n'umukara . Inyuma y'ibibindi byose hari urugo rukozwe mu mbingo , hariho n'imbariro zo mu mbingo , imbere y'ibindi hari igicucu cy'umuntu uri kureba.

Ikibindi gikoreshwa bari kwenga cyangwa bagasukamo umusururu, cyahongotseho, cyuzuye ikigage cyangwa ubushera, harimo imiheha myinshi. Ikibindi giteretse ku ngata.

Ibiseke bitanu, bigaragaza umuco gakondo, ibi biseke bikaba biri mu mabara y'umukara, n'umweru, bikaba biteretse hasi kuri sima, hakurya hakaba hari igikuta cyubakshijwe amatafari, ariko kikaba kidahomye.

Abagore bane, batatu biteze ibitambaro mu mutwe , undi nta cyo yiteze , bunamye hejuru y'umuvure , bari kwenga ibitoki bakoresheje amakoma.

Abagabo babiri bari kugaragaza igice cy'amaguru cyo hasi. Umwe aricaye undi arasutamye. Bari gukina igisoro, iruhande rwa bo hari igicuma kirimo umuheha, bicaye mu byatsi, igice kimwe kiri kuvaho izuba, ikindi kiriho igicucucucu cya bo.

Umugabo w'igikara, wambaye ishati y'amaboko maremare azinze kugeza mu nkokora, afashe akadomora n'igicuma cyamenetse kirimo amazi, ari gusuka mu kadomora. Inyuma hateretse ibase, hahagaze n'abagabo babiri inyuma ye.

Abakobwa b'ababyinnyi bateze amaboko, bambaye amayugi ku birenge, bambaye imishana y'ubururu n'utubodi tw'umweru. Bateze uduhete mu mutwe, inyuma hari itente irimo intebe ziticawemo, hirya hari abantu bari gushungera hari na bafure.

Umwari wambaye ikanzu, akaba afite igiseke mu kiganza mu maboko yombi, akaba yambaye urunigi rw'amasaro atandukanye mu bunini, akaba yiteze n'igitambaro ahagaze mu isambu. Inyuma y'isambu hirya hariyo urukuta rw'amabati ashaje.

Umugore n'umugabo bicaye mu ntebe, umugore yambaye umushanana n'akabodi k'icyatsi, afite mikoro mu ntoki. Naho umugabo yambaye ishati y'umukara n'umushanana w'umweru, afite inanga mu ntoki ari kuririmba, imbere ye hari mikoro ihagaze, inyuma hari igiti cyicyuma gishinze kiriho bafure nini, inyuma hari ibyatsi.

Isekuru ya kinyarwanda imaze igihe ikora. Bigaragara ko yanoze. Ikozwe neza, iteretse ahantu h'umweru. Iyi sekuru yifashishwa mu gusekura imijunde ndetse n'isombe.

Umuco gakondo ugaragazwa n'ikibindi gipfukishijwe ikoma, hakaba hashinzemo imiheha ibiri. Ikibindi kikaba giteretse ku birago kiboshwe mu busuna n'ibikangaga, hakaba hari intebe ebyiri za kinyarwanda zikozwe mu bishyitsi.

Igikuta kirimo ibice bitatu, hejuru no hasi n'umweru, hagati ni umuhondo. Igice cyo hagati kiriho ibibazanyo bitandukanye, hariho ingoma isongoye, hejuru akaba ari hagari, ikaba ifite n'umushumi. Ku mpande hari ibibazanyo by'abantu babiri, hejuru hari umugara w'intore.

Ibikoresho bitandukanye biranga umuco gakondo. Hariho ibyibo bitatu. Ibyibo bibiri biteretse ku kintu kiboshywe. mu birere, icyibo kimwe gisa n'umutuku, ikindi cyibo gitoya kiri hasi kirapfunduye. Inyuma hari inyegamo iri mu mabara y'umuhondo n'umukara.

Urusyo n'ingasire bya kinyarwanda rushyigikiwe n'ibuye. Rwifashishwa mu gusya ibinyampeke. Hariho inkoko ebyiri imwe iriho ifu, indi iriho ibigori n'ubunyobwa. Hirya hari igiseke gipfundikiye, inyuma hariyo imyenda itandukanye.

Inkono ya kinyarwanda yitwa icyungo ibumbwe mu ibumba, iratwitse iteretse ku ngata. Hirya hariyo imyenda yegetse iri ku gikuta, hasi pavoma ni sima.

Ibiganza by'umuntu uri kuboha inyegamo n'indi mitako itandukanye. Yambaye isaha ku kuboko n'impeta mu rutoki rwa kabiri, afite urushinge. Iruhande hari ikirago kirambuye gikozwe mu busuna, kiriho agatako kamwe.

Intore eshanu ziri ku kibuga ziri guca umugara, mu ntoki zifashe icumu ndetse n'ingabo, imbere ya zo haterutse taburete iriho igiseke. Inyuma ni ubusitani, hakaba n'urugo rwubakishijwe ibibingo, hirya hakaba inzu iteye irangi ry'umutuku, y'amabati.

Umuco gakondo, abantu bari mu busabane ni abakobwa batatu bateze uduhete bari gusoma ku kibindi, bakoresheje imiheha. Ikibindi giteretse mu mucaca, ndetse inyuma hari abandi bantu benshi, bigaragara ko bashobora kuba batashye ubukwe cyangwa bari mu birori by'umuco gakondo.

Inzu ya miviringo iranga umuco gakondo yubakishijwe ibyatsi, umuryango imbere urakinguye hashinze igiti hagati mu muryango, imbere hari sima y'umutuku n'uruziga rw'umweru, ku mbuga y'inzu hahagaze inka ifite amahembe maremare y'inyambo, ku muzenguruko w'iyo nzu hariho urugo rukozwe mu bikenyeri, inyuma hari ibiti.

Inzu za miviringo zisakajwe ibyatsi. Imwe ihomesheje icyondo cy'umutuku, ifite n'umuryango ukinguye. Iruhande hari urugo rukozwe mu biti. Hirya hari igikuta cy'amabuye. Hakurya hari ikirunga kinini.

Abantu bari kubyina, imbere hari umugore uri kubyina ari guseka, yambaye urunigi mu ijosi umushanana w'umuhondo n'icyatsi, yambaye akantu k'umweru mu kuboko kw'ibumoso, inyuma ye hari intore zifite amacumu mu ntoki zambaye n'amayugi mu birenge, hejuru zambaye umugara ukozwe mu migwegwe.

Intore ziri kubyina, zitaraka, zambaye imyenda yo hasi y'imihondo, mu maguru zambaye amayugi, mu mitwe zambaye imigara, zifite amacumu mu ntoki, inyuma hari inzu ya miviringo y'ubakishijwe ibyatsi, iruhande rwayo hari urugo rwubakishijwe ibikenyeri, inyuma hari igiti.

Umubyeyi wambaye imishanana itukura, ateze uruhete mu musatsi w'umukara, yambaye urunigi apfukamye ku kirago. Ikirago giteretseho ikibo, imbere ye hari urusyo rushigikiwe ari gusya amasaka, ifu ikagwa ku ikoma riteretse ku nkoko cyangwa intara, ikaba iteretse ku kirago. Hakurya hari urugo rwubakishijwe imbingo cyangwa ibikenyeri.

Imbuga iriho ibirago bibiri, hagati y'ibirago harimo urusyo rushyigikiwe n'amabuye , hejuru hari ingasire , ku kirago kimwe hari inkoko irikugwaho n'ifu bamaze gusya , iruhande hateretse ikibo. Inyuma hari urugo rw'inbingo , ruriho imbariro z'imbingo ,hari n'ibyatsi biri gutendera kuri urwo rugo.

Umugabo wambaye ipantaro ifite imifuka mu mpande n'isengeri, afite umuheha mu kanwa, arunamye, umuheha usesetse mu byatsi birunze ari byo urwina. hari amakoma hejuru asa n'umuhondo. Hirya hari umugabo uri kumureba, wambaye agapira karimo uturongo dutambitse tw'umweru n'umutuku n'umukara, iruhande hari insina ifite icyana cyayo, inyuma hari ibya...

Abantu bari mu kibuga bari kubyina, bambaye amayugi ku maguru, bafashe amacumu mu biganza, amaboko bayazamuye hejuru, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bahagaze, bambaye imyenda y'umweru, inyuma yabo hakaba inzu ya muviringo y'ibyatsi, ifite umuryango uje imbere, iruhande hari urugo rukozwe mu bikenyeri n'imbingo.

Iyi n'imashini ikoresha ingufu z'amashanyarazi, ikinguye akaryango kamwe, kabarimo moteri, hanze yayo hari ipine ri harambitse, rigaragara igice kimwe, iyi mashini igaragara mu ibara ry'icyatsi.

Iki ni icyuma gikoresha amashanyarazi, gifite ahantu habugenewe cyangwa buto bakandaho uri kuyatsa cyangwa uri kuyizimya cyangwa se mu gihe habaye igihe gitunguranye cya imajensi.

Igikoresho gikoresha amashanyarazi , gifite ibice bitandukanye hari amabuto ba bakaraga n'amabuto bakandaho harimo buto isa n'icyatsi . Hejuru hari amagambo ahanditse , iruhande hari ikirahuri kiri kugaragaza imibare mu ibara ry'umutuku umunani , munani . Bifite n'umukondo urambitse hasi ufite uturongorongo.

Insinga eshatu ziri mu gahombo k' umukara buri rutsinga ku mutwe warwo rushishuye, urutsinga rumwe rusa n' umutuku, urundi ubururu, urundi igitaka birambitse ku meza afite irangi ry' umutuku.

Inyubako ndende yubakishijwe ibyuma hariho ingazi zizamura abantu bagiye hejuru kuri izo ngazi hariho abantu benshi hasi hari ibikoresho bitandukanye biri mu kaduruvayo inyuma hari indi nzu iri kubakwa

Urusengero rusengerwamo n'abakiristo, rwubakishijwe amatafari ahiye. Hari umuryango imbere ukinze n'amadirishya. Imbere hari umusaraba wubakishijwe amakaro, ku mbuga ya kiliziya hari umuntu uri kugenda n'igiti kimwe. Inyuma hari ibyatsi n'izindi nyubako.

Inzu ebyiri za etaje zubatse zirebanye. Zubakishijwe amatafari ya Ruriba. Iyo hepfo iri kugaragaza umuryango n'inkingi. Ku mpande hari utudirishya tubiri kamwe hasi, akandi hejuru. Hagati harimo umunara muremure cyane hamwe n'amafoto. Hariho amatara, imbere hari abanyamaguru babiri bari kugenda, mu kibuga kirimo ibyatsi byumye.

Inzu ya mwamba isakaje amabati ashaje yubakishije amatafari ahiye. Ifite amadirishya abiri, irinini n'iritoya. Imbere yaho hari inzu ntoya isakaje amategura, ifite urugi mu mpande. Imbere y'izo nzu zombi, hari ubusitani n'utuyira tw'abanyamaguru. Hari na porutaye y'ibyuma n'ikivoka kinini. Hakurya hari umusozi munini.

Inyubako y'amashuri igeretse, isakajwe amabati, ifite amadirishya arimo ibirahuri na giriyage, hari inzira y'abamugaye izamuka, n'indi nzira iriho ingazi. Iteye amarangi y'umuhondo. Imbere y'inyubako hari ubusitani butari bwakura neza.

Ishusho y'umweru ibumbwe mu isura y'umuntu , irambuye ikiganza . Iteretse ku kabaho gateye ku gikuta cyubakishijwe amatafari ahiye , ateye verine. Iruhande hari ibirahuri biri mu mabara y'ubururu ,n'umuhondo n'icyatsi . Hejuru hari ibaraza ry'amabati riri kugaragara.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye rusakajwe amabati y'umutuku, mu mbavu rufite imiryango ibiri umwe mutoya n'undi munini hejuru hari icyapa imbere hari amadirishya akinze, ku mbuga y'urusengero hamwe hari ibitaka, ahandi hari ubwatsi bw'umucaca hirya hari inzu iri kugaragara igice kimwe n'ibiti birebire.

Ibyumba by'amashuri biri ku murongo. Bisakajwe ibyuma n'amabati, hari umureko udafite igihombo. Yubakishijwe amatafari gahiye, inkingi na reto zisizwe amarange y'umuhondo. Naho hasi hari amarangi y'igitaka. Imbere hari sima. Imbuga y'ishuri ntabwo irimo sima, harimo itaka.

Urusengero rufite igisenge cy'amazi abiri ruteye irangi ry'igitaka, mu mpande hari akabaraza kariho umuryango ukinze n'amadirishya manini na matoya akinze. Imbere y'akabaraza hahagaze umukobwa wambaye ikanzu y'umukara n'agapira kumweru, azamuye amaboko areba hejuru. Imbere hari uturabo duhari imbuga y'urusengero iriho amakaro.

Inzu bacururizamo isakaje amabati, iteye irangi ry'umuhondo, n'akarange k'umweru mu mpande, hejuru hari amakositara. Imbere hicaye abantu bacigatiye abana, n'igare riparitse, n'umugabo uhetse igikapu, hamwe n'ibase iteretse. Hari n'indobo irimo amandazi, imbere hari igiti gishinze, mo imbere hari kontwari iriho imineke n'izindi mbuto.

Inzu ifite igice kimwe kigeretse ikindi kitageretse, iteye amarangi y'umuhondo, ku ruhande rw'imbere hariho uruziga menge, ku mbuga y'iyi nzu hariho amapave, inyuma hariyo ubusitani n'urukuta rwubatswe mu matafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo munini ufite ibara ry' umweru rirerire ku mpande hahagaze abantu, hashinze n' ibiti birimo insinga z' amashanyarazi hari n' inzu z' ubucuruzi ziri hakurya y' umuhanda.

Iyi ni inyubako ya Reta isakajwe n'igisenge gihishe, yubakishwa amatafari ahiye. Imbere hari igiti kiriho ibendera ry'igihugu n'akazu gatoya k'umuzamu. Izengurutswe n'urupangu ruriho inkingi z'amabuye y'amakoro ndetse n'ibyuma. Imbere hari icyapa cyanditseho Vava, inyuma hari ibiti binini ikibuga kirimo ga.....

Umuhanda munini ugizwe n'ibice bibiri. Hagati harimo akayira k'abanyamaguru kari mu ibara ry'umweru. Hakuno y'umuhanda hari jaride y'ibyatsi. Hakurya y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru, n'abagenzi batatu bahagaze. Hirya hari umukingo uciyeho ingazi.

Icyumba kirimo abantu bicaye mu matsinda. Imbere yabo hari za mudasobwa, hagati hari umugore uhagaze wisukishije imisatsi. Iyi nyubako ifite amadirishya akinze, inyuma hari ikibaho cyo kwandikaho. Buri muntu afite agacupa k'amazi kamuteretse iruhande.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite umunara ku ruhande muremure usakajwe amabati y'umutuku, imbere hari ibaraza riteye amarangi y'umweru, imiryango n'amadirishya birakinze, ku mbuga y'iyi nyubako ni itaka, inyuma hari amazu, naho ikirere gisa ubururu n'umweru.

Ikibuga kinini cy'icyicaro cy'umuriro w'amashanyarazi, harimo udusima tugufiya hejuru hateretseho ibipironi bigufiya n'ibirebire, hariho n'insinga ndende zambukanyije, inyuma hari kugaragara ikirere cy'ubururu.

Ikibanza cyubatswemo inzu igeretse imbere y'inzu hari imikindo, hari n'igiti kirekire, hari ubusitani bugizwe n'ibyatsi inzu izengurutswe n'urugo rufite inkingi z'amatafari ahiye n'ibyuma. Hanze hari urukuta rw'amabuye yubakishijwe amakoro.

Inyubako nini, yubakishijwe amatafari ahiye, harimo amakosita akozwe ishusho ry'umusaraba, igice cy'imbere hagati hateye irangi ry'umuhondo, handitsemo sangita mariya. Ifite agasongero karekare, gasakaje amabati y'umutuku, imbere handitse umuseke makumyabiri makumyabiri nagatatu.

Inzu nini yubatswe mu musozi irimo amakaro, yubakishijwe amatafari ahiye iteye irangi ry'umuhondo, ku nkingi hamwe no kuri rento isakajwe amabati y'umweru. Haraguru hari ishyamba, mu mpinga ruguru hariyo ikiganogano, hepfo hari igisambu kirimo amabuye y'amakoro, n'inzu ntoya hariho uruzitiro rwubakishijwe ibyuma n'inkingi z'amatafari ahiye.

Idirishya ry'inyubako riri kugaragara ryonyine, hari giriyaje zimanuye harimo n'ikirahuri, imbere y'inzu hari ikibuga kinini kirimo amapave hakurya hari urukuta rw'amabuye rugufiya ,hariho abantu bahicaye hari n'akazu gatoya imbere y'aho haparitse moto. Inyuma hari ibyuma bishinze biriho amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, inyuma hari ibiti birebire.

Inyubako y'ibiro by'Akagari ka Sahara, isakajwe amabati atukura imbere hari igiti kiriho ibendera ry'Igihugu, iyo nzu iteye irangi ifite amadirishya ane ndetse na koridoro, mbere yaho hari abana batatu b'abanyeshuri bambaye impuzankano.

Iyi ni inyubako y'urusengero, isakajwe amabati atukura, ifite amadirishya atandukanye, n'ibaraza risakaye, ndetse n'agasongero kariho umusaraba, ku kibuga cy'iyi kiliziya hariho abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yaho har'ikibuga, bateze amatwi inyigisho bari guhabwa.

Isoko ryubakishijwe ibyuma risakajwe amabati. Imbere hari akazu gatoya kanditseho limitilesi mu ibara ry'icyatsi, gateye irangi ry'umweru amadirishya yako arakinguye, imbere hicaye abagore babiri, hakaba hahagaze n'abahungu batoya. Hari imodoka iri kugaragara igice cy'inyuma cy'itara ry'umutuku. hariho n'igiti cy'icyuma kirimo mikoro.

Inyubako zisa zubatswe ku murongo. Igice cy'inyuma kigaragara hari amadirishya n'urugi rumwe, isakajwe amabati, yubakishijwe amatafari atukura. Imbere ya buri nzu hari akayira kagiye kubakishijwe amatafari, imbere hari umuhanda wa kaburimbo n'ubusitani.

Inyubako yubatswe ku buryo bugezweho igeretse kabiri, imbere no mu mpande hari ibirahuri by'ubururu, hakaba n'urukuta ruzamutse rwubakishwa amatafari ahiye, imbere iteye irangi ry'umweru. Iruhande rw'inzu hari ikibuga giteyemo ubusitani bwa pasiparume, imbere hirya hari imodoka ziparitse.

Umusigiti ufite iminara ibiri, umunaragu umwe ufite ibyiciro bitatu, undi ibufite ibyiciro bine. Iruhande hari ibigega, imbere hari insinga z'amashanyarazi ebyiri. Imbere y'umusigiti hari urupangu rwubakishijwe amatafari ruteye irangi ry'umuhondo, imbere hari akayira k'abanyamaguru, n'abanyamaguru bari kugenda imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo.

Iyi ni inyubako y'icyiciro cya diyoseze ya Butare kuri Katedarale, imbere yaho hari ubusitani n'inzira y'abanyamaguru, imbere hakaba ifoto ikibumbano kinini cy'ishusho ya Bikira Mariya.

Inyubako ndende y'urusengero yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'umutuku, ku mpande hari utunara tureture turiho umusaraba hejuru, imbere hari ibaraza rifite imiryango ya muviringu, ku mbuga y'iyi nyubako hari igitaka, hari uruzitiro ruzengurutse rw'ibyuma harimo inkingi hagati zihomye.

Inyubako y'icyicaro cya kiliziya gatolika diyoseze ya Butare yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amatafari y'umutuku ibaraza riri hagati rirazamuye cyane ririmo utudirishya turimo ibirahuri. Imbuga y'iyi nyubako yubakishijwe amapave hari ubusitani bunini bugizwe n'ibyatsi mu kayira kajya kuri katedarale hari ishusho ya Bikiramariya y'umweru.

Akabati karimo etageri zitandukanye, hejuru harimo udushushanyo turiho inyuguti abana bigiraho, kuri etageri ya kabiri harimo ibishusho by'abantu, abakuru n'abana, ku mpande hariho abana bicaye ku ntebe za kinyarwanda bari kuganira, hasi mu kabati harimo imipira ya basikete.

Inzu igeretse rimwe, ifite igisenge gihishe, yubakishi amatafari ahiye, ifite amadirisha afite ibyuma by'umweru, imbere hahagaze abantu batatu, imbuga y'iyi nzu ifite amapave, iruhande hari akazu kamwe, gafite idirishya rikinguye. Igice kimwe hari igiti gitambitswe mu marembo, gifite amabara atandukanye.

inzu yubatse yakonofe ifite igisenge gihishe iteye amarangi y'umuhondo ku gice cyo hasi igice cyo hejuru irangi risa n'icyatsi handitseho ibiro by'akagari ka rugeshi hatanswe kigaragara neza imbere hashinze icyuma kiriho idarapo ry'igihugu hasi hari amabuye akoteye ku mbuga y'iyo nzu ni amakoro imbere hari umuhanda unyuzemo umurongo w'umweru inyuma hari ibiti.

Inyubako yubatswe ku buryo bwa kijyambere, isakajwe amabati, ifite akabaraza hagati, imbere hari uturindabasazi. Imiryango yose irakinze, ku mbuga iri imbere y'inzu harunze agacanga gakeya, hariho n'insinga z'amashanyarazi ebyiri.

Inyubako yubatswe haruguru y'umukingo isakaje amabati y'umutuku, ikaba iteye amarangi y'umuhondo ni inyubako nini, imbere yaho hari igiti kinini cyane, hanyuze n'insinga z'amashanyarazi, hafi ya ho hakaba hari ubusitani bw'ibiti bitandukanye, cyangwa se ibyatsi bitandukanye.

Iyi ni inyubako yubatswe ku buryo bwa kijyambere. Yubatswe mu mpinga z'umusozi, hari ingazi, amesikariye ahagera yubakishijwe amakaro atandukanye, handitsemo Kigali Tude. Inyuma hariyo andi mazu, ku mpande hari uturindabasazi, inyuma hari ikirere cy'ubururu.

Aka ni agasozi k'umudugudu, kariho umurongo w'amazu ari haruguru asakajwe amabati atukura, imbere yaho hari abantu bari kuhazenguruka, hepfo hari andi mazu afite shampoma hejuru zinyuramo imyotsi, hirya hari izindi nzu zifite ibisenge bisakajwe amabati y'umweru n'umutuku, ndetse n'amategura.

Iki ni icyumba kiburanishwa harimo abantu bahagaze n'abicaye bambaye impuzankano isa n'ibitambaro biri inyuma birimo ibara ry'umuhondo n'ubururu. Iki cyumba gifite amadirishya akinguye ndetse na purafo irimo itara imbere hari raputopu.

Abantu bicaye mu kibuga cy'umucaca hari abicaye ku ntebe n'abicaye hasi bafite impapuro. Hari umugore wayiteze igitambaro mu mutwe yambaye na mwamine imbere hicaye abagabo babiri, iruhande hicaye abagore bamwe bambaye udupfukamunwa batumanuye. Inyuma hariyo ibiti mu busitani n'umugabo wicaye yegamiye ku giti hari n'inyubako iri inyuma harenga.

Abantu benshi bicaye ku ntebe abandi barahagaze abicaye harimo abasaza bambaye ingofero z'urugara aho abahagaze harimo abagore biteze ibitambaro. Bicaye ku mbuga iriho itaka imbere hari indabo naho inyuma hari ibigori n'ibyatsi hamwe n'ibindi biti bitandukanye.

Gare cyangwa se parikingi irimo imodoka nini n'intoya zitwara abagenzi, hari n'urujya n'uruza rw'abagenzi, abavuye mu modoka n'abari kujya kuzitega, hubatse isoko risakaje amabati asa n'ashaje. Harimo amapironi n'amapoto ariho amatara, hakurya hari umusozi wubatseho utuzu dutoya mu kajagari.

Igare rihagaze mu muhanda urimo ibyatsi, rikaba rifite inzogera n'itara imbere hamwe n'igoro. Hirya yayo hateretse imifuka ibiri ubumwe wuzuye ibirayi, undi urimo uturayi udukeya. Inyuma hari amakoro, naho hirya inyuma hahinze ibigori.

Gare irimo imodoka z’amoko atandukanye, harimo iziparitse ziri ku murongo, izindi ziri kwinjira. Harimo urujya n’uruza rw’abanyamaguru. Hakurya hari inzu igeretse, hashinze ibiti biriho insinga z’amashanyarazi n’utuzu dusakaje amabati y’umuhondo.

Imodoka eshatu ziri kugaragara igice cy'inyuma, kiriho palake zanditseho sotraturu, iruhande rw'ibumoso hari umuntu uri kugenda wambaye ipantaro y'ikoboyi, n'umupira wa tishati iruhande rw'ibumoso hari anegisi, hakurya hari umusozi muremure wubatseho utuzu dutoya, imbere y'uwo musozi hari inyubako igeretse nini.

Bisi nini yifashishwa mu bwikorezi bw'abantu iparitse imbere y'inyubako iriho icyapa cya fortobet n'imikindo itatu minini.

Imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa bisi, mu mpande handitseho otarako egisipuresi, ikaba ifite umuryango umwe harimo kwinjiramo abantu, abandi bari mu modoka baricaye bari guhengereza mu birarahure. Abandi bahagaze hanze, inyuma hari ipoto y'amashanyarazi.

Imodoka ebyiri nini zo mu bwoko bwa bisi zihagaze. Iruhande hari umugore wambaye ijire n'ipantaro afite igihombo ari gushyira esansi mu modoka inyuma hari urukuta rw'amabuye hejuru yaho hari inkingi zihujwe n'uruzitiro rw'ibyuma.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi itwara abagenzi. Imbere ku kirahuri handitse jari taransiporo. Ifite igihombo munsi y'ikirori. Imiryango yacyo irakinze. Iparitse ku kibuga gikozwe mu mapave. Hirya hariyo inzu iri kureguka, iteye amarangi y'umuhondo.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa rukururana y'umweru, ifite amapine makumyabiri n'ane, ipakiye ibintu by'umutuku. Ibindi barabipakuruye, birunze ahagana inyuma, inyuma hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi. Ikibuga imodoka iparitsemo ni itaka.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru, harimo amagare ari kunyuramo, amwe ahetse abantu ayandi ahagaze, inyuma hari ibiti birebire, hari n'inzu zubakishijwe amatafari ahiye, hariho n'icyapa cyanditseho Ewuseri.

Abagabo batatu batwaye moto mumuhanda wa kaburimbo, umugabo wo hagati nta jire yambaye. Abagabo babiri bo kuruhande bambaye amajire ya Eyateri, bose bambaye n'amakasike. Inyuma hari abari kugenda n'amaguru, kuruhande rw'umuhanda hari ibiti biriho amatara.

Umugore utwaye igare ripakiye imifuka itatu, ibiri mu mpande, uwundi hejuru. Uzirikishijwe igishamburere. Riri kunyura mu muhanda w'igitaka. Hirya hari imodoka ebyiri ziparitse, iy'umutuku n'iy'umuhondo.

Imodoka iri kugaragaza igice cy'imbere. Shoferi yicaye agaragara amaguru n'ukuboko gufashe diregisiyo. Hari umugore uhagaze iruhande rw'icyuma cya mubazi, afite imisatsi y'umutuku. Imbere hari umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagaguye y'umweru, n'umuntu uri kugenda mu muhanda mu mukingo w'umuhanda hariho amayesikariye.

Imodoka isa n'ubururu iri mu muhanda urimo ibyatsi, ipakiye ibikurete bikozwe muri plastike, birimo imboga zitandukanye karoti, shufureri, amashu n'ibikoro.

Aha ni kuri sitade aho abanyeshuri bagiye gufata ingendo, bateze imodoka amabisi yo mu bwoko bwa volkano, abanyeshuri bambaye iniforume bahetse ibikapu mu mugongo, ibindi babifashe mu ntoki bigaragara ko ari aho bakusanyirijwe hamwe, kugira ngo babone imodoka zibacyura cyangwa se zibajyana ku mashuri.

Ikibuga giparitseho amagare atatu akoreshwa mu mukino wa siporo, hakurya hakaba hari ubusitani buriho ibiti bikeya, ndetse hateyemo na pasiparume. Hari umuntu uri kugenda n'akazu k'abashinzwe umutekano, cyangwa se aho basabira serivise, hakaba hari urukuta ruriho amakaro yo mu bwoko bwa terazo.

Ikibuga kinini cyane iruhande rumwe hari kuva izuba, ahandi hari igicucu, harimo akarongo. Igihande kirimo izuba giparitsemo imodoka ndende ifite amapine ane, kuruhande rumwe ihetse ikigunguru. Imodoka isa n'umutuku hirya yayo hariyo ipoto.

Uyu ni umuhanda ukomeza ufite undi muhanda uwinjiyemo. Harimo imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa dayihatsu n'ubwa vatiri. Hari umumotari, hari n'umugenzi wikoreye umutwaro w'ibisheke wambaye n'agapfukamunwa. Hari n'igipine gitwara ibidomoro by'amazi, inyuma hari abaturage bahagaze ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Imodoka z'ubwoko bw'amakamyo ziparitse. Ziri kugaragaza igice cy'imbere, zihetse kontineri. Imodoka imwe ihagazeho umugabo wambaye ijire hamwe n'ibaji mu ijosi, yambaye agapfukamunwa kamanutse. Imbuga zihagazeho nta sima irimo.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akarongo k'umweru ku ruhande. Harimo igare ripakiye inkwi, hejuru y'inkwi hari umusego. Imbere hari imodoka ziri kuza. Hari n'akayira k'abanyamaguru, harimo abagabo babiri. Iruhande hari ibiti binini birebire, hari utuzi twareze mu kayira k'abanyamaguru.

Umuhanda munini wa kaburimbo ufite ibice bine. Harimo umurongo w'umuhondo. Hari kunyuramo imodoka nini ya bisi n'umumotari. Ku mpande hari amatara, hakurya hari imisozi irimo utuzu dukeya.

Abantu cumi na batatu bahagaze ku murongo harimo abagabo n'abagore, hakabamo abazungu batatu bahagaze imbere y'indege nini yanditseho Rwanda air. Hari n'ingazi zigiye hejuru mu ndege, no hasi hari imodoka ihaparitse.

Imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa ritiko zitwara abagenzi. Imbere iri kugaragara yose, n'inyuma ikagaragara igice. Ziri mu muhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umuhondo n'umweru, ku mpande hari akayira k'abanyamaguru karimo amapave, haraguru hari ibiti birebire n'igice cy'ipoto iriho itara ry'umuhanda.

Gare irimo imodoka ziparitse, izindi ziri gusohoka, ku marembo yayo hari inkingi ziteye amarangi y'umukara hejuru hari ikintu kigondoye cyanditseho kayonza basi parikingi. Imbere hari akazu ka MTN n'abantu bahagaze, hari n'abamotari, imbere hari umuhanda urimo ikinogo, hari n'amapoto ariho amatara yo ku mihanda.

Imodoka nini ya bisi itwara abantu isa n'ubururu, mu mpande hari amabara y'umweru handitseho izi kebiyesi, mu muryango hahagaze umugabo w'umuzungu, na ho mu madirishya y'imodoka harimo abagabo bambaye imipira y'umweru bari kurunguruka, inyuma y'imodoka hari indi modoka ireba, hepfo n'inyubako ndende igeretse.

Imodoka nyinshi ziri muri gare. Izirebye hepfo zanditseho selegite, hari n'izirebye ruguru. Hagati harimo urujya n'uruza rw'abanyamaguru. Ku mpande hari udukiyosike bakatiramo amatike. Hakurya hari umusozi uriho inyubako zegeranye, hari n'ibiti bishinzemo biriho insinga z'amashanyarazi.

Abagabo babiri bahagaze, bambaye imyenda ya siporo isa n’agapira k’umutuku gafite akantu k’umukara ku ijosi, n’ipantaro y’umukara. Bambaye amasaha ku kaboko k'ibumoso. Umwe ni muremure, undi mugufi; umugufi ari guseka, umuremure arabumbye. Inyuma hari ibyatsi bitari kugaragara neza.

Abakinnyi babiri bahagaze barebana, umwe yambaye jezi y'ubururu harimo amagambo yanditsemo Rwanda na mirongo icyenda, afite umupira wa basiketi boru. Imbere ye hari umukobwa wambaye jezi y'umweru yanditseho numero eshanu. Bahagaze mu kibuga kirimo umurongo w'umweru n'ibara ry'ubururu, inyuma hari intebe zicayeho abantu benshi n'umugore uri gukamera.

Icyumba cy'inzu giteye irangi ry'umweru, harimo inkingi ebyiri ziteye irangi ry'umutuku, hahagazemo abagabo babiri umwe ahagatiye imipira mu kwaha itatu, ukuboko kw'ibumoso kwambaye isaha y'umukara, arogoshe nta musatsi afite.

Uyu ni umukobwa wambaye agakanzu kagufi k'umweru n'agasengeri k'umweru, ku maboko yambaye ibikomo, umusatsi we urazinze, afite urutaro rwo gukubitisha agapira ka tenisi, ari guserebura kubera ko atsinze.

Umukobwa uri muri siporo, ari muri sitade imbere y'abafana benshi, arimo yiyerekana, yambaye ijezi yanditseho rojasi, yambaye agakomo ku kaboko k'ibumoso, agapira kagufi ndetse n'agakabutura n'inkweto za siporo, ari gukora siporo ku mucanga.

Umukinnyi w'umusore ufashe umupira wa basikete mu biganza usa n'umutuku, yambaye ijezi isa n'umweru, imbere haditse numero makumyabiri n'enye, arebye hejuru naho umupira uri imbere y'amavi ye.

Abagabo bahagaze mu kibuga cy'itaka, bambaye amapantaro y'umweru n'udupira dusa tw'icyatsi dufite ikirango gisa, hirya hariyo abambaye amapantaro y'ubururu n'udupira tw'umweru, imbere hahagaze umugabo wipfumbase, hari n'ndi mugabo uhagaze imbere ari gufotora, inyuma hari ibiti biri kugaragara igice cyasi.

Iki ni ikibuga cy'umupira gipavomeshejwe amapave, harimo abakinnyi batandukanye. Umugabo uri imbere afashe umupira wa handiboru abandi barahagaze bategereje ko abahereza umupira. Ikibuga kizengurutswe n'urugo rw'amatafari, inyuma hari insina, ndetse harimo n'ipaniye imwe ya basiketiboru.

Icyumba cy'imyidagaduro gifite igikuta giteye irangi ry'umweru, n'utudirishya dutatu dukinze hari n'amabara y'umutuku n'umuhondo, iki kibuga ni icya basiketiboro harimo abakinnyi bahagaze, umwe ari gutunga ukuboko. Iki kibuga kirimo imirongo y'umuhondo, n'iy'umweru n'igice cy'umutuku.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira, ikabutura n'inkweto zirimo amasogisi, ahagaze mu kibuga ari gukina tenisi, afite urutaro mu ntoki amaze gutera agapira. Hakurya hari igikuta cyubakishije amatafari, ndetse kiriho na tereviziyo cyangwa sikirini iri kwerekana amashusho.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, kirimo ibyatsi byumye. Hari gukiniramo abana batandukanye batatu baregeranye ,umwe yasimbutse ,ari hagati yabo imbere hari umupira wa baro.

Ikibuga kinini hagati harimo umucanga, ku muzenguruko wacyo hari ibyatsi, ikibuga gishushanyishijwe n'imirongo y'ubururu ,ibiti bifashe fire bisa n'umuhondo ,na fire umuzenguruko ni umuhondo ,inyuma hari amazu n'itente, hakurya hari ibiti binini bitatu n'ikirere cy'ubururu.

umuzungu wambaye ingofero n'amataratara y'umukara n'agapira k'umuhondo karimo amagambo y'umukara n'ikabutura y'ubururu yicaye ku igare ry'umukara. Biri kugaragara kugeza mu mapine inyuma ye hari ubusitani burimo umukindo n'indabyo, hari n'ibyapa by'ubururu inyuma hari kugaragara igice cy'muhanda akayira k'abanyamaguru gato.

Abakinnyi babiri b'abakobwa barebanye, bafite imipira ya basiketiboro mu biganza, bari kudunda, bambaye imyenda y'ubururu, mu mugongo handitsemo Rwanda, n'amasogisi agera mu bwana, bari gukinira ku kibuga kirimo imirongo y'umuhondo n'umweru, isa n'umutuku, inyuma hahagaze abagabo, hari n'intebe iriho ubusa, n'undi muntu wicaye afashe ku birenge.

Uyu ni umupira w'intoki voreboro, ufite amabara atandukanye, umuhondo n'ubururu binyuranyemo. Mu muhondo harimo utwenge duto dutoya, hakaba handitsemo m na v na a maganatatu.

Umugabo wambaye ijezi umupira n'ikabutura, yanditseho nimero icyenda, n'amasogisi na superesi z'umweru, afashe umupira mu kiganza cy'iburyo, hasi kuri sima hari indi mipira isandaguje ihateretse, inyuma hari urukuta ruriho idirishya.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru, bambaye ijezi ya reyo siporo isa n'ubururu n'umuhondo, umwe ari gutera umupira yambaye jezi y'umukara yanditseho nimero makumyabiri na gatatu, bahagaze mu kibuga kirimo umucaca harimo umurongo w'umweru, inyuma hari igice cy'ipoto kiri kugaragara n'ikirere cy'ubururu n'umweru.

Inyubako y'ibikorwa remezo bya sitade, imbere hari intebe z'abaviyayipi, hakurya hari udutebe tw'abafana dutoya, mu kibuga nta bantu barimo, umuzenguko w'ikibuga usa n'umutuku, hari abantu babiri bahagaze, hejuru ntabwo isakaye igice cyo hagati.

Abantu bahagaze ku magare atari kugenda ari mu muhanda urimo utubuye. Bambaye amapantaro y'imikara n'ingofero za siporo. Inyuma hari ibiti birebire biri mu ishyamba.

Abantu batanu bicaye muri sitade, harimo umugore umwe, babiri bambaye ijezi y'amavubi isa n'umuhondo n'ubururu, intebe imwe yanditseho nimero eshatu ntabwo yicaweho, imbere hicaye umugabo wambaye ikote na karuvati, inyuma hariyo inkingi n'ikirongozi kirimo amatara.

Udupira tubiri tw'icyatsi turimo imirongo izengurutse. Agapira kamwe kanditseho kane. Duteretse iruhande rw'igikoresho bakoresha bari gukina, gifite uruhande rumwe runyunyutse bafataho. Na ho igice cyo hejuru ni uruziga. Kirimo udusenyenge tuboshye ari two umupira ugwamo. Byose biteretse ku kibuga cy'umukara kirimo umurongo w'umweru, n'uwundi murongo w'umweru ufashe ukuri umwe.

Umupira wa vore urimo umwuka. ugizwe n'ibice bibiri igice cyiganje ni umuhondo, ikindi ni umukara kirimo v magana atatu. Buri gice kirimo utudomagure, uyu mupira uteretse ahantu h'umweru hari kugaragara agacucu hasi gatoya.

Umukobwa w'inzobe uri guseka, ahagaze agaragara igice cyo hejuru kugeza mu mumavi, yambaye jezi agakabutura k'ubururu kanditseho nimero eshanu mu ibara ry'umuhondo, n'agapira k'icyatsi kanditse nimero eshanu mu ibara ry'umuhondo, n'ikirangantego cy'u Rwanda, ku maboko yambaye akantu k'umukara, afite ikintu mu ntoki cy'igihembe, inyuma ye hari igikuta cyanditseho amagambo atandukanye.

Siporo, ni umusore cyangwa se umugabo uri muri siporo yo mu bwoko bwa handiboro, umupira w'intoki, akaba awufashe mu ntoki mu biganza byombi, akaba ari kwitegereza aho agiye kujugunya uriya mupira. Iyi foto aho yafatiwe hari ibara ry'umweru.

Igice cya siporo, aho bari mu irushanwa ry'amagare nka turu di Rwanda. Abari mu isiganwa bari imbere, bari mu kivunge, inyuma hari imodoka ibaherekeje, hafi n'umuhanda wa kaburimbo, hari abaturage bari gushungera, hakaba hari n'ibyapa biyobora abantu.

Abakinnyi ba handiboro bane, batatu bambaye ijezi isa, imwe yanditseho gatatu. Undi umwe ari hagati yambaye jezi isa ukwe, ikabutura irimo imirongo imanutse. Afashe umupira mu kiganza, hakurya hari inyubako ifite amabara y'umuhondo.

Igice cya sitade kirimo intebe abantu baticayemo, ziri mu mabara y'umuhondo ubururu n'icyatsi. Hagati hari ingazi zizamuka, ruguru hari abantu babiri, umwe yasimbutse ari gukubita umupira w'ibara ry'umuhondo n'ubururu. Inyuma ye hari intebe, nta muntu uzicayeho, handitse gare.

Abakinnyi babiri basimbutse bambaye jese y'icyatsi n'udukabutura tubafashe ku kibuno, umugongo harimo nimero z'imihondo, bafite imisatsi ku mutwe, bagiye gukubita umupira ufite amabara y'umuhondo n'ubururu. Hirya hari abakinnyi bahagaze kwakira umupira, hagati hari fire ifite akantu k'umweru hejuru, hakurya hari intebe z'ubururu n'icyatsi ziticawemo n'abantu.

Abantu bari gukina umupira wa vole, umwe yasimbutse ari gutera umupira, uwundi wambaye iniforume y'umuhondo yasimbutse gufata umupira, abandi bahagaze hasi bategereje umupira, ikibuga kiriho sima y'ubururu n'umutuku na file, inyuma hari urukuta rw'amatafari ruteye irangi, harimo n'ibirahuri birimo utuntu tw'udukarokaro.

Abakinnyi bahagaze mu kibuga bamwe bambaye jezi y'umweru ifite uturongo tw'umutuku tumanutse, abandi bambaye jezi y'umutuku hejuru, hasi ari amakabutura y'umukara, umwe afashe umupira mu kiganza yasimbutse ari kuwutera. Inyuma hariyo ikibuga kirimo abantu bicaye ku ntebe, abandi bahagaze. Inyuma hari urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye, iki kibuga gisa n'icyatsi.

Abakinnyi bari gukina umukino wa voreboro. Umukinnyi yasimbutse ari gutera ikiro, abandi bakinnyi babiri basimbukira rimwe ku kiboroka. Abandi bategereje gufata umupira, hari fire n'ibiti bishinze bifasheho fire. Hirya hari abandi bakinnyi, inyuma hari ubusitani n'ibiti birimo.

Abakinnyi bari gukina umupira wa handibolo, babiri basimbutse bari gutanguranwa gushyira umupira mu ipaniyo, undi ahagaze hasi areba hejuru arekereje ko umupira umanuka, iruhande hari undi uri kureba umupira aho ugeze, inyuma hari abafana bahagaze benshi, inyuma yabo hari ibiti birebire bifite amababi makeya.

Ikibuga cy'itaka ry'umutuku kirimo imirongo y'umweru, hahagaze abakinnyi babiri barebanye bafite urutare mu ntoki, hagati yabo harimo file, iruhande hahagaze umugabo wambaye ikabutura n'agapira k'umukara kanditseho koci. Hakurya hari umunara muremure, inyuma hari ibiti, n'ikintu gihagaze gifite ibara ry'ubururu.

Ikiganza cy'umuntu uri muri siporo, uteruye umupira wa basiketiboro cyangwa w'intoki, ari kuwushyira mu gitebo gifite urushundura muri paniye.

Umupira wa vore ugizwe n'ibice bine by'ingenzi, buri gice kimwe muri ibyo bine na cyo kigizwe n'ibice bitatu birimo amabara y'umuhondo, umweru n'ubururu, buri gice gihujwe n'ikindi hakoresheje urudodo.

Abakinnyi batandatu bambaye ijezi y'ubururu, harimo uturongo tw'umuhondo. Batatu bari ku murongo, undi yasimbutse ari hagati ya babiri. Hirya hariyo intebe ziri muri sitade, n'igice cya sitade gisakaye kiri kugaragara. Inyuma hahagaze ipoto ndende. Hari n'abandi bakinnyi bari inyuma, imbere ya sima.

Imbuga irimo ibitaka n'amabuye makeya haparitse imodoka zitandukanye, imbere yaho hari ibyuma bishinze hejuru, hari ikigega cya palastiki, hari n'igihombo kivuye mu kigega kimanutse, inyuma hari amazu y'ubucuruzi afite konoshi n'inkingi.

Inzu iteye irangi ry'umweru ifite amadirishya n'umuryango umwe munini bikinze, ifite ibaraza rihagaze ku nkingi z'ibyuma ryanditseho famu savisi senta. Imbere hari ipoto ifashe insinga z'amashanyarazi, hamwe n'indabo, n'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka icanye amatara abiri maremare y'umuhondo iri mu muhanda w'igitaka, iruhande rw'imodoka hari abagenzi, hari n'ipoto ihagaze iriho urusinga rw'amashanyarazi. Iruhande hari urukuta rw'urugo rwubakishije amatafari, inyuma hari inzu y'umuhondo isakaje amabati y'umutuku.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ufite imikono ibiri, har'imodoka iri gusohoka m'umuhanda munini ye y'umutuku, hirya hari ipoto iriho amatara yo ku muhanda, hari n'abaturage bahagaze imbere y'ubusenta, ku mpande z'umuhanda, har'urukuta rwubakishijwe amabuye.